Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Baricaye rwose, bateze amatwi kandi barakurikiye, bicaye mu ntebe nziza, imbere yabo hari ameza meza, ateguye neza, ateretseho amazi y'inyange ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, bisa nk'aho bahagaze bari kwifotoza, inyuma hari icyapa cy'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo n'ubwo atagaragara neza, ariko ni netiwakingi, n'ibindi.

Umukobwa bigaragara ko ari umuhanga mu bintu bijyanye no kwiruka yambaye umupira ugaragaza ko ari umwe mu bakina imikino yo kwirukanka ibirometero byinshi.

Abagore bicaye ku ntebe ndetse n'abagabo, imbere yabo hari umugabo uhagaze usa nk'uzamuye akaboko, yambaye ishati y'amaboko ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari ibitambaro by'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu bari mu nzu mberabyombi bisa nk'aho ari inama bajemo, barakurikiye kandi biragaragara ko hari umuntu uri imbere yabo uri kugira icyo ababwira.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye bicaye ahantu hamwe harimo abagore, abagabo, bisa nkaho hari umuntu uri kubaha ikiganiro kuko ubona bakurikiye neza.

Abagabo bakize mu makoti meza, abandi mu mashati meza agezweho, bicaye hamwe bari bakaganira ku mishinga, imbere yabo hari amacupa ndetse na mudasobwa.

Abaturage bicaye mu nteko, bari kumwe n'abayobozi babo. Biragaragara ko bateze amatwi ibyo abayobozi bababwira ndetse n'inama babagezaho.

Abantu benshi batandukanye bicaye musharagati kiriho amabara y'ibendera ry'igihugu, ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere hari umugabo uri gutanga ikiganiro wambaye agapira ka oranje.

Abagore bitabiriye inama bicaye mu ntebe nziza barakurikiye kandi bateze amatwi bamwe bafite telefone mu ntoki, abandi bafite udukarine two kwandikamo mu ntoki.

Abantu batatu bicaye ku meza, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umugabo uri hagati afite indangururamajwi mu ntoki, bisa nk'aho hari ikiganiraro ari gutanga, abandi bateze amatwi.

Umugabo mwiza uri gutanga ikiganiro, ahagaze imbere y'abantu, yambaye ishati y'umweru, isaha, ipantaro y'umukara, baji y'umweru ifite umushumi w'ubururu, ndetse afite indangururamajwi mu ntoki.

Inama yari yitabiriwe n'abantu bo mu ngeri zitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, imbere yabo ku meza hari amakayi bandikamo, hari amazi y'inyange ndetse bose barakurikiye mu by'ukuri, bigaragara ko ari umuntu uri kugira icyo avuga imbere yabo.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bicaye mu gisharagati, hateguye neza n'amabara y'idarapo ry'igihugu, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari umumama uhagaze uri gutambutsa imbwirwaruhame.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu nama, hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, bisa nkaho hari ikintu ari kuvuga kuko bamuhaye ijambo, abandi bateze amatwi barakurikiye neza.

Abantu bafashe ku madarapo bazamuye amaboko bisa nkaho bari kurahirira inshingano nshya bahawe, abandi baricaye barakurikiye uwo muhango bigaragaza ko ushimishije.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bicaye mu nzu mberabyombi bisa nkaho ari inama cyangwa se ikindi kiganiro cyahabahurije. Hari abicaye imbere yabo biragaragara ko ari bo bari kubaha icyo kiganiro.

Abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, umugore afashe mudasobwa, imbere ye hari indangururamajwi, ndetse n'umugabo uri hagati imbere ye hari indangururamajwi undi mugabo wambaye ishati iciye amaboko nawe ari kureba muri mudasobwa.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bicaye mu gisharagati, barakurikiye, bisa nkaho imbere yabo hari umuntu ufite ijambo ndetse ari kubabwira ibintu by'ingirakamaro.

Abantu bari mu nama imbere ku meza hari mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa, bari kwitegereza muri tereviziyo ibari imbere, bisa nk'aho bahuye ngo bagire imishinga baganiraho yerekeye RURA.

Abagore batatu beza bicaye ahantu heza hateguwe, imbere yabo ku meza hari ikigo buri wese yaturutsemo, umwe afite indangururamajwi bisa nk'aho ari we wahawe ijambo kugira ngo avuge.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahuye bicaye ahantu heza cyane, bigaragara ko hari icyo bari kuganiraho cyane cyane giteza Igihugu cyacu imbere ndetse n'abaturage muri rusange.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bicaye muri sale iteguye neza. Bisa nk'aho hari ikiganiro cyangwa se inama yabaye baje kumva kuko barakurikiye neza.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, bicaye imbere ku ntebe nziza. Bisa nk'aho ari abayobozi b'ibigo runaka, baje kuganira ku mishinga. Biragaragara ko imbere yabo hari abandi bantu babakurikiye nubwo tutababona ku ifoto.

Abantu bicaye ahantu heza, ni umugore n'umugabo bigaragara ko umugore amanitse akaboko nk'ugiye gutanga igitekerezo cyangwa se icyifuzo, imbere yabo ku meza hari amacupa y'Inyange arimo amazi ndetse n'amakayi bari kwandikamo.

Umuntu uri kwereka abantu ibyo yateguye, baramukurikiye, bamuteze amatwi. Imbere yabo hari amazi y'inyange, ndetse uwo umuntu ari kuvuga imbwirwaruhame.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, bicaye ahantu heza ndetse no mu ntebe nziza. Imbere ku meza yabo hariho ibikoresho bitandukanye, twavuga mudasobwa, porojegiteri ndetse n'amacupa arimo amazi, amakaye, biragaragara ko hari ikiganiro bakurikiye.

Abantu bari mu nzu mberabyombi bisa nkaho bahuye ngo baganire ku umushinga runaka, imbere hari umuntu uri kubereka ibyo yakoze anabasobanurira ibyo aribyo kandi bamuteze amatwi bari kubisobanukirwa.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye biragaragara ko n'urubyiruko rufitemo uruhare, hari umukobwa ufite mudasobwa mu ntoki biragaragara ko akurikiyeye kandi hari ibyo ari kwandika.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu nzu mu ntebe nziza, umwe yateretse mudasobwa iruhande rwe ndetse n'amazi imbere ye, bigaragara ko bakurikiye hari umuntu uri gutanga ikiganiro.

Abantu batandukanye bahagaze hafi n'ibendera ry'Igihugu, bafashe ihene mu ntoki, ni abagore, abagabo ndetse bigaragara ko ari inkunga bahawe.

Umuntu wicaye mu ntebe nziza ni umugabo yambaye ishati nziza aciye amaboko, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'indangururamajwi, hateretse ikayi ndetse n'icupa ry'amazi, biragaragara ko ari gutanga ikiganiro.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bisa nkaho bakoranye bari mu nama, imbere y'abo bantu hari amazi y'Inyange, udukombe dutandukanye, ndetse n'amakayi bari kwandikamo.

Ikoranabuhanga ni ingenzi mu buzima bwacu. Aba bantu bari gukoresha ikoranabuhanga, bagakoresha mudasobwa, bagakoresha amatelefone, mu by'ukuri hari ibyo bari gukora kandi bikihuta.

Burya ubwenge buva hasi nta kintu gipfa kwizana ikintu cyose umuntu arakiga ni byiza rero ko dutoza abana bacu ikoranabuhanga hakiri kare kuko nibo bahanga bejo hazaza mu gihe abandi tuzaba tutakiriho.

Umunara muremure ufite amarangi y'umweru ndetse n'umutuku n'ikindi gisahane cy'umweru kiri munsi y'imikindo ndetse ikirere kirasa neza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gikunda kudusobanurira ibintu byose kugira tuve m'urujijo. aha baradusobanurira umuntu ufatwa nka nyir'umutungo utimukanwa ni umuntu wanditswe nka nyir'uwo mutungo cyangwa ufite ubundi burenganzira kuri wo.

Ikoranabuhanga rifatiye runini ubuzima bwa muntu kuko rimufasha koroshya ibintu byose ari gukora, uru ni urubuga rwa RBC, rugaragaza uburyo ushobora kureba ibisubizo by'indwara urwaye, utiriwe ujya kwa muganga.

Umunara uri mu ruzitiro rw'ibyuma, udufasha kubona itumanaho, tukavugana n'abantu batandukanye mu buzima bwa buri munsi, ni byiza rero gukoresha itumanaho.

Umunara muremure udufasha mu itumanaho rya buri munsi ni mwiza kandi ubereye amaso ibyapa by'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho cya tigo imodoka ziparitse hafi aho ndetse na kwasiteri.

Iminara idufatiye runini mu itumanaho dukora rya buri munsi, cyane cyane itumanaho dukoresha ikoranabuhanga, iyo iminara idahari ntabwo bigenda neza.

Ushaka serivise zijyanye n'ikoranabuhanga, nta handi wagana ni ku irembo. Ushaka ibyangombwa bitandukanye, ibyemezo bitandukanye rwose ubu byaroroshye ugera ku irembo bakabiguha.

Ikoranabuhanga ryarabyoroheje pe ubungubu ushobora kujya ku irembo rwose nawe ukirebera uruhushya rwawe, ukirebera amanota wagize, ibintu byose ubungubu byaroroshye pe. Reka dukoreshe ikoranabuhanga ridufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu bari mu gisharagati, baricaye kandi ku meza, imbere yabo hari mudasobwa ndetse na terefone, hari amarineti n'ikaramu. Kuri ayo meza hariho igitambaro gifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Ibyapa bya MTN bimanitse ku ruzitiro, imbere hari umunara ufite amarangi y'umweru n'umutuku, ikirere harimo ibicu ariko n'ibara ry'ubururu ririmo.

Ntawahinyura cyangwa ngo ahakane ko ikoranabuhanga ari ingenzi mu buzima bwacu ubungubu buri wese aharanira kumenya no kuzobera ibijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo ajye abone uko yifasha bitamugoye cyangwa ngo bimusabe igihe kinini .

Dukangurirwa buri munsi kwihugura kubijyanye n'ikoranabuhanga, kuko rimwe na rimwe bigufasha akazi ukora kakoroha. Byoroshya akazi, byihutisha akazi, mu by'ukuri ikoranabuhanga ni ingirakamaro.

Ubungubu ikoranabuhanga riri gukoreshwa ahantu hose bitagusabye kuva aho uri, ugahamagara ako kanya serivisi ukaba urayibonye, uyu ni umurongo utishyurwa Rura yashyizeho ngo mujye muyihamagara, igihe mukeneye serivisi.

Icyapa cya Eco bank cyanditseho amagambo yo mu Cyongereza, kiri mu mabara y'ubururu ndetse hafi yacyo hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Abantu baricaye ku meza imbere yabo hari za mudasobwa, ibikombe, bisa nk'aho hari ikintu barimo baganiraho kugira ngo biteze imbere. Kuganira n'ibyiza mu buzima.

Ubu ntawe ugishidikanya ko ikoranabuhanga ari ikintu kiza mu buzima, uru ni urubuga rwa rwanda reveni otoriti ushobora kujyaho ukaba wakishyura imisoro, ugakora n'izindi serivisi zirebanar na Rwanda otoriti utavuye aho uri.

Ipoto rinyuraho urusinga rw'umuriro w'amashanyarazi rugemurira abantu mu ngo, hariho kashi pawa ndetse n'insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abantu baba bawurahuye.

Umuriro w'amashanyarazi uri mu bikorwa remezo bifatiye Igihugu runini ndetse n'abaturage muri rusange, biragaragara ko aha ngaha insinga zose zijyana umuriro kuri taransiforumateri ari ho zihurira.

Indabo nziza, igipangu kiza kiriho itara, ipoto ryiza ririho itara rimurikira umuhanda kandi rikaba rinyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ujya mu ngo z'abantu, rikabamurikira bakagira umucyo.

Ipoto ririho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abantu batandukanye ndetse n'insingaza zica mu butaka bigaragara ko hariho n'imirindankuba ibyo ni byiza bifasha .

Umuhanda mwiza, igipangu kiriho ibyuma bigaragara ko cyubakishije amatafari ya ruriba, ipoto ririho itara ryo ku muhanda ndetse n'urutsinga rutwara umuriro mu baturage, ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi.

Ikirere kitamuruye, akazuba karashe hakurya aho abantu batuye, umunara hagati y'uruzitiro rw'ibyuma, uteye irangi ritukura ndetse n'umweru.

Amapoto ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi zijyana mungu z’ abantu, kugira bacane kandi babeho mu mucyo bakoreye ibindi bikorwa byabo batuje bamurikiwe.

Kamera ireba ibibera muhanda byose ikabyohereza ku kicaro ndetse n'icyapa kiri mu byapa bibuza umuvuduko wa mirongo itandatu ugezeha, iyo uwurengeje bahita baguhana.

Ipoto ririho itara rimurikira ku muhanda, hariho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro ngo ndetse n'insinga zifasha abantu kubona itumanaho bitagoranye.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko karuvati ya rujeborodo isaha y'umukara ku kuboko ari kuvugira muri mayikorofone birashoboka ko ari kuvuga ibyo uruganda rw'icyayi rwa Rutsiro rukora.

Inzu nziza ifite igipangu ndetse n'urugi rwiza, hari ipoto itwara insinga z'amashanyarazi zaba izijya kuri taransiforomoteri cyangwag se izitwara umuriro mu ngo z'abantu kugira ngo bacane.

Abashinzwe umutekano, umuntu uri kwambuka ndetse n'ibyapa bigaragaza ko ntahoni ryemewe kuvubuzwa muri ako gace, imodoka ziparitse ndetse n'abantu bahagaze hafi aho.

Abahanga mu by'ubuzima batugira inama kenshi ko igihe wumva utameze neza ugomba kujya kureba muganga mukaganira ku kibazo ufite akagufasha hakiri kare, ibi bitaro rero birafasha cyane kandi bitabara abantu benshi benda kuva mu buzima.

Ahantu heza ushobora guparika imodoka yawe, abantu bicaye mu busitani, inzu zisakaye neza, zisize n'amarangi. Biragaragara ko aha ngaha ari ku bitaro by'i Butare.

Imodoka y'imbangukiragutabara igera aho umurwayi yaremye byagoranye, irafasha cyane kuko itabara abarwayi benshi benda kuvamo umwuka.

Iyo nzu igeretse hasi hari ikizimyamwoto iri mu mabara atukura ndetse n'amagambo yandikishije umweru, imbere y'iyo nzu hari ubusitani nubwo bigaragara ko butarafata neza.

Ibitaro bikuru byo mu Karere ka Nyarugenge, aha ni ku marembo akwinjiza maze ukicara ku ntebe, usanga imbere utegereje ko bakwakira ngo baguhe serivisi nk'izubaha abandi.

Inzu ya etaje nziza, munsi hari umuntu uri kwinjira yambaye umupira w'umweru, yambaye ikabutura y'umukara, afashe akandi kantu mu ntoki gasa ubururu.

Umuntu wambaye amarineti wogoshe umusatsi yambaye imyenda itukura, biragaragara ko ari umunyamategeko na we aca imanza akaburanira abantu.

Icyemezo cyerekana ko umuntu afunze kiriho amazina, uwafunzwe ni Fulgence Kayishema, ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwa gatanu, bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abantu bo mu nzego zitandukanye bari mu nzu mberabyombi bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho udutabo ndetse n'udukayi bitandukanye amazi y'inyange biragaragara ko bagize igikorwa kidasanzwe.

Kizito Mihigo umuhanzi mwiza ukora ku mitima ya benshi ubwo yasohokaga muri gereza ku mbabazi za Perezida, hafi ye hari abantu bari bamuherekeje ndetse bishimiye ko yongeye gusohoka.

Igazeti ya leta iba isobanuye mu ndimi eshatu bityo bikoroshya ubwumvane ku buryo nta muntu urazimiza undi, usangamo igifaransa, ikinyarwanda ndetse n'icyongereza.

Abagabo batatu bambaye neza, umwe wo hagati yambaye ikositime y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, babiri ku mpande ze zombi bambaye imyenda igaragaza ko ari abacamanza.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ngo twavuga nk'amateremusi, amabasi, ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibyo ni bimwe mu bikoresho byiza kandi buri rugo rwose runezezwa no kuba rufite ibi bikoresho.

Kizito Mihigo yicaranye n'izindi mfungwa, bisa nkaho bari bicaye imbere y'abayobozi bari kubabaza ibibazo babasubiza cyangwa se mu bucamanza.

Biragaragara ko Kizito Mihigo yari ari kuburana kuko imbere ye hari umucamanza, inyuma ye hakaba umucungagereza, ni umuhanzi mwiza ibihangano bye bihora ku mitima ya benshi.

Abantu babiri bahagaze, bose bambaye udupfukamunwa, umwe ni umucamanza undi ni imfungwa, imbere yabo hari indangururamajwi, inyuma yabo amatara ari kwaka.

Abacamanza bane bahagararanye abagore babiri ndetse n'abagabo babiri bigaragara ko buri gice cyose gifitemo uruhare, ni byiza rero ko bagiye kujya badufasha mu guca imanza kandi zitaberarana.

Imfungwa zitwaye ibikoresho ku ntugu ndetse no mu ntoki, bisa nkaho zari zasohotse hanze zifite ibyo zigiye gukora kugira nazo zibeho neza, zambaye impuzankano zo mu ibara rya oranje.

Igazeti ya leta iba yanditswe mu ndimi eshatu arizo ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa, ibi bifasha wa muntu utumva ikinyarwanda cyangwa se icyongereza kumva igifaransa bityo bityo ubwumvane bukagenda bukomera.

Etaje nziza cyane, umupolisi uhagararanye n'undi muntu n'umuntu utambuka mu umuhanda, hakurya hari ishyamba ry'ibiti rituzanira umwuka mwiza duhumeka.

Twese tumenye gukoresha iki gikoresho byadufasha kujya twirwanaho igihe dutewe n'inkongi z'umuriro zitunguranye kuko iki gikoresho gikoraho rikaka .

Ibikoresho binini byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, babyita kizimyamwoto, bifite ibara ry'ubururu, umukara, icyatsi, ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Polisi ihagaze mu muhanda, biragaragara ko iri gutegeka imodoka guhagarara, hari umu motari ugiye kuyitambukaho, bihagaze hagati mu muhanda, hafi n'aho imodoka ihagarara igiye gukuramo abantu, cyangwa igiye kubashyiramo.

Abashinzwe umutekano wo mu muhanda barahagaze, bisa nk'aho bari kwitegereza moto bakoresha, n'abantu imbere yabo hari imodoka iparitse, imbere yabo ndetse n'ahantu handitse gudurayifu.

Abantu bari guhashya inkongi y'umuriro, bifashisha ibikoresho byabugenewe, nk'uko baba barabitojwe ndetse bakabihugurirwa, ahantu hose habonetse inkongi y'umuriro iyo bahageze, ntihagaka ukundi.

Abantu bari kuzimya umuriro bifashishije kizimyamwoto, inyuma yabo hari amakamyo abiri ahaparitse ndetse n'ibiti n'imodoka ntoya ziri hafi yabo.

Ibikoresho bifashisha birukana cyangwa se bazimya inkongi y'umuriro, ni iby'ingenzi cyane, byitwa kizimyamwoto, bifite amabara atukura, umuhondo ndetse n'ubururu, bwandikishijwemo umweru.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Polisi zihagaritse abamotari mu muhanda ngo abagenzi babanze bambuke ndetse n'imodoka z'umweru zamaze kwambuka, abantu nabo bari kugenda bambuka mu muhanda.

Amarembo yinjira mu bitaro bya Polisi y'u Rwanda Kacyiru, niheza batanga serivisi nziza, hari ibiti by'amagereveriya hakaba amasinga atwara umuriro w'amashanyarazi awujyana mu ngo.

Imodoka ya polisi irakinguye umuryango umwe, amatara y'ubururu ari kwaka. Umupolisi ahagaze hanze ku muryango wayo, inyuma ye hari amapoto ariho amasinga y'umuriro ndetse n'amazu n'imitaka ya MTN.

Mu buzima bwa muntu umutekano ni ingenzi kuko bimuha amahoro no kumva atuje akabaho mu mahoro, iyi modoka itwara abashinzwe umutekano igihe baje gufata umuntu wakoze icyaha.

Abapolisi bari hamwe, umuyobozi wabo mukuru bafite indangururamajwi mu ntoki, biragaragara ko bari gutanga ikiganiro ku nsanganyamatsiko runaka kuko abandi bashishikaye bari kwandika bigaragara ko bakurikiye.

Umupolisi uhagaze hafi n'imodoka yabo ibafasha mu kazi, kandi bari munsi y'igiti cy'inganzamarumbu. Bigaragara ko kiri kubaha akayaga ndetse n'amahumbezi.

Umugabo mwiza wambaye ikote ryiza, yambaye ishati y'umukara ndetse na karovati irimo utubara, azamuye akaboko bisa nk'aho ari kurahirira inshingano yahawe, imbere ye hari indangururamajwi.

Umugabo mwiza wambaye ikositime nziza ndetse n'ishati na karuvate, yambaye amarinete, imbere ye hari indangururamajwi, biragaragara ko ari gutanga ikiganiro ku nsanganyamatsiko runaka, bigaragara ko kandi ari kureba abantu bamuri imbere.

Umuntu uzamuye akaboko avugiramo mayikorofone, afashe ku idarapo ry'igihugu, afite umusatsi mwiza ushokoje yambaye ikositimu, yambaye ishati y'umweru birasa nkaho hari ibyo ari kurahirira.

Abantu batandukanye bari mu nama, bicaye ahantu heza ku buryo buri wese imbere ye hari mudasobwa hakaba indangururamajwi ku buryo ikintu cyose ashatse kuvuga akivuga adahagurutse.

Umutoza w'ikirenga niwe soko tuvomaho turabibona twese ko perezida w'igihugu cyacu ashyigikiwe kandi yubashywe iyo atambuka rwose birigaragaza.

Abaturage biganjemo ingeri zose, y'aba abagabo, abagore, abana ndetse n'urubyiruko, hari n'abantu ubona ko bashinzwe umutekano, imbere hari umugore uri kuvuga mu ndangururamajwi, bisa nk'aho ari gutanga ikiganiro.

Umuntu wambaye ikositimu y'ubururu, ishati y'umweru, karuvati ya move, imbere ye kumeza hari mudasobwa, ndetse n'indangururamajwi yo kuri tivi teni, inyuma ye hari amarido meza, bisa nk'aho bamuhaye ikiganiro.

Abagabo bambaye amakositimu meza n'umugore ufashe agakapu mu ntoki bari kugenda bavugana bisa nk'aho bavuye mu nama kuganira ku bintu byiza kandi byubaka.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Umugabo mwiza wambaye ikositime y'ubururu, karavati nziza ndetse n'ishati y'umweru, aricaye, aratuje, afite umusatsi kandi uconze neza.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko kandi nziza, ari gushyira agapapuro k'itora mu gasanduku kabugenewe, hari n'undi muntu ubishinzwe umuhagaze hafi, bari mu cyumba cyiza kandi giteguye neza.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko karuvati ya rujeborodo isaha y'umukara ku kuboko ari kuvugira muri mayikorofone birashoboka ko ari kuvuga ibyo uruganda rw'icyayi rwa Rutsiro rukora.

Intore zitari intoraguramayugi zabukereye, zagiye kwitorera umukandida mu mpuzankano ya FPR, ibyapa bitandukanye bigaragaza ko biteguye kwitorera umutoza w'ikirenga uzabageza kuri byinshi.

Abantu bicaye muri sale nziza, mu ntebe nziza zigezweho, bisa nkaho ari abayobozi baje mu nama kuko hari abandi bicaye imbere yabo. Inyuma y'abayobozi hari ibendera ry'igihugu ndetse n'ikirangantego cy'igihugu.

Abagore babiri bigaragara ko bari baje gutora, umwe ari gushyira urupapuro rw'itora mu gasanduku kabugenewe. Inyuma yabo hategujwe ibitambaro by'umweru, bigaragara ko umwe ari gusohoka.

Urutoki rugaragaza umuntu umaze gutora, hariho umuti wa wino. Bigaragara ko inyuma hari idirapo ry'Igihugu, aho yazamuriye urutoki n'igikumwe.

Abantu bari mu nama, barakurikiye, abayobozi babo bicaye imbere, inyuma y'abayobozi hari idarapo ry'igihugu, ndetse n'ikirangantego cy'igihugu. Birasa nk'aho hari ibyo bari kwigaho, byateza igihugu imbere, ndetse n'abaturage.

Ibyishimo, amashyi menshi, amadarapo y'ikirango cya FPR hejuru, bigaragara ko iri ngiri ari ishyaka rishyigikiwe n'abantu benshi, kandi ryiteguye gutora umukandida waryo.

Imodoka zitwara imizigo, ni ebyiri ziparitse ahantu hamwe, imwe ifite shitingi y'umukara, indi ihetse imifuka bigaragara nk'aho ari ibishyimbo birimo.

Mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo urimo umumotari uhetse umugenzi, uyu muhanda ugabuyemo kabiri, hateyemo amarangi y'umukara n'umweru ndetse harimo na jaride irimo ibiti by'imikindo.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota isize amarangi y'umweru, iparitse imbere y'amazu y'ubucuruzi, ayo mazu asa nkaho agerekeranye, hari umugore uri gutambuka hafi y'iyo modoka n'imbere ye hari izindi modoka n'abantu.

Umukarani yikoreye umufuka urimo ibintu byinshi, ari kugera mu muhanda wa kaburimbo. Muri uwo muhanda harimo imodoka ishinzwe gutwara imiti iyijyana ku mafarumasi ndetse no mu bitaro.

Imoto ya rifani itwara imizigo ifite shitingi ishushanyijeho Pirimusi, hariho na nimero ushobora guhamagara igihe ukeneye serivise, uyitwara yambaye kasike ishobora kumurinda impanuka.

Umuntu wese utwara ikinyabiziga, agirwa inama yo gukurikiza amategeko y'umuhanda. Uyu mumotari ari mu gisate cy'umuhanda kitemerewe kunyuranaho, kuko biteza impanuka iyo utabyubahirije.

Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri isize amarangi y'umweru. Hafi y'iyo modoka hari indi bisi nini ya sosiyete ya Interinasiyonali, itwara abantu benshi ugereranije n'iyi modoka ya kwasiteri.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Abantu benshi bakenera gukora ingendo zitandukanye mu buzima bwabo kandi bagakenera gukora ingendo ku buryo bwihuse. Niyo mpamvu imodoka zibafasha ndetse zikabageza aho bajya ku gihe.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi, ifite amarangi y'ubururu, umukara ndetse n'umweru, hafi yayo hari imodoka itwara imizigo iyivana mu mahanga, iyinjiza mu gihugu ndetse n'umunyonzi utwaye umufuka ku igare urimo ibintu.

Imodoka ni ingirakamaro cyane iyi modoka itwara imizigo myinshi cyane cyane igafasha abantu bari kubaka itwara amabuye, igatwara umucanga ndetse na sima iruhande rwayo hari umumotari uri kuri moto.

Imodoka itwara imizigo ihetse umuntu wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'akagofero karimo amabara atukura ndetse n'umuhondo, irabisikana n'umumotari uhetse umugenzi ndetse n'umunyamaguru uri mu kayira k'abanyamaguru.

Ni bisi ya shirumuteto sinibaza impamvu bayise shira umuteto kereka niba ari uko itwara abantu benshi bahagaze abicaye abari gusunikana, ifite amarangi ya oranje n'umweru ndetse n'umukara.

Imodoka itwara imizigo, ifite ibara ry'umweru umukara ndetse n'agatara gato karanga icyerekezo cya orange, isakaje ishitingi ndetse hejuru hari ibiti bifite amashami y'icyatsi kibisi.

Imodoka itwara imizigo ifite igisanduku gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, hari ibiti bizana amahumbezi n'akayaga, abantu bari gutambuka mu kayira k'abanyamaguru.

Imodoka y'imizigo, ihetse imizigo itwikirije ishitingi, imbere yayo hari umunyonzi, irabisikana na moto itwaye umugenzi, iruhande rwayo hari ibiti ku muhanda bizazana akayaga n'amahumbezi.

Imodoka itwaye imbaho ndetse abamotari bari hafi yayo bigaragara ko hari izindi modoka ziri imbere ndetse n'inzu igeretse kabiri. Umuntu uhagaze mu kayira k'abanyamaguru akoze ku modoka.

Imodoka itwara imizigo yo mu bwoko bwa dayihatsu, ifite amarangi y'umweru ndetse n'ay'umukara, isakaje icyuma hejuru na cyo gisize amarangi y'umweru, imbere yayo hari imodoka na none ya tasi vuwatiri, n'indi modoka nini itwara imizigo iyijyana hanze.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Umuhanda nyabagendwa urimo abamotari ndetse n'imodoka, mu kayira k'abanyamaguru harimo abagenzi iburyo ndetse n'ibumoso, ibumoso bw'umuhanda hari ishyamba ndetse n'amapoto y'amatara yo ku muhanda.

Imodoka itwaye imizigo, ibyuma byo kubaka, umumotari uhetse umugenzi arabisikana na yo, umuntu yicaye ku modoka hejuru, agiye arinze iyo mizigo.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi iriho amarangi atandukanye, yanditseho amagambo agira ati ku nguzanyo nto kurusha izindi nawe wagira iwawe, gerageza ugire iyo nguzanyo nawe wigirire iwawe.

Mu muhanda hari imoto yo mu bwoko bwa rifani, hafi yayo hari umunyonzi uhetse umugenzi, bari gutambuka mu muhanda nyabagendwa, inyuma ku ruhande hari umuntu uri mu kayira k'abagenzi ndetse n'uruzitiro rufite ikintu gifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Imodoka nziza ugendamo ukumva ko utuje kandi ugakira amavunane, irihuta ni iya sosiyete ya Ritiko, moto ziri inyuma yayo zirayikurikiye.

Imodoka nini ishinzwe gutwara ibintu ndetse n'imizigo, ishobora gufasha abantu bari kubaka cyangwa se abari gusiga sima ibazanira imicanga, amabuye ndetse n'ibindi.

Imodoka zitwaye imizigo, iri inyuma iriho shitingi y'umweru, bigaragara ko ihetse ibintu byinshi biri mu mifuka. Mu kayira k'abanyamaguru harimo abagenzi ndetse inyuma yabo hari icyapa kigaragara ko imodoka iparika iyo igeze hafi aho.

Imodoka nini itwara imizigo ifasha abantu mu buryo butandukanye cyane cyane abari kubaka, ibazanira amabuye, ikabazanira umucanga ndetse na sima.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso yikoreye imizigo hari umuntu wicaye hejuru wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara irimo akaba ari umweru biragaragara ko itwaye ibintu byinshi kandi biremereye.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi bita shirumuteto, ifite amarangi y'ubururu, umweru ndetse n'udutara tw'umuhondo, iruhande rwayo hari ahantu hazitije ikintu cy'icyatsi kibisi, harimo ibiti birebire bizana amahumbezi.

Amacumbi y'abanyeshuri ari ku muhanda, hakuno y'umuhanda hari abana bari gukina umupira w'amaguru, bisa nkaho ari amazu agerekeranye acumbikira abana b'abanyeshuri.

Ahantu hose iyo hateguwe haba heza, aha hantu barahicara igihe bari kureba imikino, imyidagaduro, cyane cyane abakunzi b'umupira, babateguriye ahantu heza rwose, hasize amabara aranga irapo ry'Igihugu, icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Icyapa cyo mu bwoko bwa mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko utukura, kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira byereka shoferi ko aho agiye kugera hari umuntu uri kwambuka.

Icyapa gifite amabara y'umuhondo, umukara ndetse kikaba kirimo urukiramende rufite ubuso bw'umuhondo, harimo udufureshi tubiri tureba hejuru.

Icyapa kiri mu ishusho y'umwashi, gifite ubuso bw'umuhondo, umuzenguruko w'umukara ndetse n'umuhondo, hagati hashushanyijemo kubasuka umuhanda w'iburyo ndetse no kubasuka ku muhanda w'ibumoso, bigahurira mu muhanda mugari.

Icyapa cya mpandeshatu kiri mu byapa biburira ko hari umuhanda urasukira ibumoso; umushoferi agomba kugenda ari maso, kuko ashobora guteza impanuka atitaye kuri iki cyapa ngo agabanye umuvuduko.

Icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, bibuza umushoferi kurenza uyu muvuduko uri muri ubu buso bw'umweru umuzenguruko wa shokora umushoferi agomba kubyitondera.

Umuntu w'umugore uhagaze hafi y'ibyapa byerekana ko ugiye kwinjira mu karere ka Gicumbi, yambaye isharupe irimo amabara, inyuma ye hari ipironi ritwara umuriro w'amashanyarazi.

icyapa kiranga umuhanda cyanditseho kaga magana atanu na rimwe esite hafi aho mu muhanda hari imodoka ya kwasiteri hari umumotari ndetse n'amatara ku muhanda.

Icyapa cyo mu bwoko bwa mpandeshatu gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, kiri mu byapa biburira byereka imodoka ko igiye kuzamuka kuri dodani imbere.

Ni byiza kubaha no kubahiriza amategeko y'umuhanda kugira dukomeze tugire ubuzima busagambye iki icyapa rero ni icyapa kiburira kereka umushoferi ko agomba gutanga inzira aho agiye kugera.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bitandukanye, hagati harimo jaride, harimo ipoto rifite itara rimurika nijoro, inyuma hari inzu ifite igipangu cyiza.

Igihe cyose utwaye ikinyabiziga cyangwa se ugenda mu muhanda, ni byiza ko witonda kandi ugakurikiza amabwiriza y'ibyanditse ku byapa. Iki cyapa kiragaragaza ko ugomba kwitondera ahantu ugeze, kuko ushobora guhura n'ibyago bitandukanye.

Icyapa cyo mu bwoko bwa mpandeshatu, gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko utukura, munsi harimo akandi kapa gatoya gafite ubuso butukura gashushanyijemo umuntu, kiburira umushoferi ko agomba gutanga inzira ku muntu ugiye kwambuka.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu byapa biburira, gifite ubuso bw'umuhondo ndetse n'umuzenguruko utukura, harimo utwambi tubiri akareba imbere n'inyuma bigaragara ko babisikana.

Burya iyo duhumetse tubaho kandi n'ibiti ni ingirakamaro cyane kuko uwo mwuka birawuduha, niyo mpamvu rero tugomba kubyitaho tukabisigasira kandi neza.

Nta muntu utifuza gutura mu nzu nziza kandi zigezweho. Murabibona namwe uburyo inzu nziza zigezweho ziba zimeze, zisa neza, zisize amarangi, umuntu wese aba afite indodo zo gutura ahantu heza.

Inzu nziza kandi igeretse, imbere yayo hari ibiti by'imikindo, igipangu cyiza gikoze neza, ni byiza rero umuntu ko yaba ahantu heza hasukuye kandi hateguye.

Ahantu henshi hakorerwa ibintu bitandukanye bahora bashishikarizwa gukoresha iki gikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro iyo inkongi ihafashe iki gikoresho kiratabara ni byiza ko umuntu wese yakigira aho akorera.

Niba ufite indoto zo gukorera ibirori n'ibitaramo ahantu heza rwose ndakuragira hiritopu hoteli, iherereye mu giporoso ntabwo ari kure, ugera i Remera ukaba urahageze bagane bagufashe.

Nta muntu utagera indoto zo kuba muri iyi nzu cyangwa kuyikoreramo, ni nziza yubatse neza ifite amarangi meza ifite amadirishya meza ifite igipangu cyiza ndetse n'ibiti bizazana amahumbezi n'akayaga muri iyo nzu.

Igipangu cyiza cyubakishije amatafari ahiye, hariho ibyuma bisize irangi ry'ivu, haruguru hari amapoto abiri ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi zigana mu ngo z'abantu.

Kiyosike ya emutiyeni irafunguye hari umukiriya uri gusaba serivisi, abantu baratambuka mu muhanda hagati y'amazu, hejuru hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu baturage.

Icyapa kigaragaza umuhanda cyanditseho KK makumyabiri CT, inyuma yacyo hari igiti kinini cy'inganzamarumbo ndetse n'indabo zakuze, inyuma hari indi nzu isakaje amabati ajya gutukura.

Ipoto rinyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izifasha abantu kubona itumanaho bitagoranye, icyapa kigaragaza iduka ricuruza amata cyanditseho miriki zone.

Umuntu wese usirimutse, akoresha banki. Kuko ni ikigo cyiza gishobora kukuguza no kugoboka igihe ushaka gukora imishinga runaka. Iri rero ni ishami rya beka, urarigana bakagufasha.

Umudugudu utuyemo abantu kandi batuye mu nzu z'icyerekezo, bigaragara ko ari imwe twita umudugudu w'icyerekezo ndetse n'icyitegererezo.

Gusenga ni byiza kandi birafasha kuko burya iyo usenga Imana ira kumva, kiriziya rejina pacisi Remera ni nziza nta muntu utakwifuza kuyisengeramo kandi iyo usenga Imana muba murikumwe .

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Muri iki gihugu inganda zifite akamaro kanini haba ku muntu cyangwa se ku batura gihugu, babona ibyo kurya, bakabona ibyo kwambara, bakabona ibiryamirwa ndetse bakabona n'akazi.

Inzu nziza zibereye amaso ndetse zifite umuriro w'amashanyarazi, inyuma yazo hari ibigori ndetse n'ibindi bintu bimeze nk'igihuru. Ni byiza gutura mu nzu nziza niba nawe ufite izo ndoto.

Abantu benshi mu buzima bwabo bumva batura mu mujyi bagatura mazu meza, ariko iyo nta bushobozi ufite biragorana, gutura mu nzu nziza ni byiza, bituma umuryango wawe ubaho wisanzuye.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Inzu nziza ya etaje igereretse inshuro nyinshi, ifite amadirishya y'ibirahure ndetse harimo amwe akinguye. Hasi haparitse imodoka yo mu bwoko bwa Kia ndetse n'umunyonzi wambaye umupira uciye amaboko w'umuhondo.

Umuhanda urimo ibice bibiri igare riri hafi aho hepfo hari ishyamba rizana amahumbezi ndetse n'umuyaga, hejuru hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu baturage.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza ugezweho, harimo ahantu abanyamaguru bambukira ndetse hari ibyapa byinshi bifite amatara yo ku muhanda, hari amajaride n'ubusitani bwiza, hari ibiti byiza bizana amahumbezi.

Umuhanda nyabagendwa, abantu batandukanye, abamotari, ipoto ritwara urutsinga rw'umuriro w'amashanyarazi rirujyana mu rugo, imodoka ndetse n'ishyamba ku ruhande.

Imodoka itwaye imizigo, abamotari ndetse n'umunyonzi, akayira imodoka ihagararamo igiye gufata umugenzi cyangwa igiye kumukuramo ngo bakomeze, ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi.

Ibimenyetso byiza byo mu muhanda bigaragaza umuntu ugiye kwambuka niba ari umuntu utwaye ikinyabiziga, cyangwa se ari umunyamaguru ugiye kwambuka, ni byiza kuko byatumye igihugu cyacu gitera imbere.

Biragaragara ko ahangaha ari ku kicaro cya emutiyeni kuko abakiriya baba bagiye gusaba serivisi zitandukanye abagura simukadi, ababitsa, ababikuza n'ababaza izindi serivisi bakora kugira ngo barusheho kumenya neza iki kigo ibyo gikora.

Ikoranabuhanga ni ingirakamaro kandi rizatugeza kuri byinshi, ibyo twita Sophia bikunda gucunga umutekano mu muhanda bireba abica amategeko y'umuhanda, maze bikagera i bukuru.

Ibimenyetso byabugenewe bigaragaza igihe umuntu yambukira cg se ikinyabiziga, iyo byatse umutuku kinyabiziga kiratambuka, byakaka icyatsi abagenzi bagatambuka mu kayira kabugenewe.

Imodoka zisa nk'izigiye kubisikana, umumotari uhetse umugenzi inyuma y'imodoka, akazu bicaramo bategereje imodoka, hari ibiti bizana amahumbezi ndetse n'akayaga keza ku bantu.

Leta yacu iradukunda cyane ituzanira ibikorwa remezo bitandukanye: imihanda, amazi, ariko hano murabona ko umuhanda umeze neza; ufite ikinyabiziga rwose wagishyiramo ukagenda.

Ibi ni ibimenyetso byo mu muhanda, bishinzwe gutambutsa ibinyabiziga mu gihe cyabyo, cyangwa se kubihagarika ngo abantu batambuke mu gihe cyabo. Ndabona n'undi muturirwa inyuma ndetse n'imodoka n'abantu batambuka.

Imodoka nini itwara ibicuruzwa ibijyana mu kindi gihugu ndetse ikavana ibicuruzwa hanze ikabyinjiza mu gihugu, inyuma yayo hari umumotari ahetse umugenzi ndetse n'abandi bamotari babiri babisikana na bo.

Umuhanda utarimo kaburimbo, amazu, ibiti ndetse n'igipangu kiriho urugi rw'umukara. Imbere hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ayandi mazu atandukanye.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Inzu ifite amabati y'umutuku agaragara nkaho ashaje ikaba ifite antene ya kanari purisi kuburyo bareba umupira uko babishatse iri mu gipangu kiri munsi y'umuhanda

Umuhanda nyabagendwa urimo ibice bibiri, ndetse n'ahantu imodoka ihagarara igi gukuramo umugenzi cyangwa se igiye kumushyiramo ngo bakomeze. Hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi kuri taransiforumateri, mbere y'uko zijya mu bantu.

U Rwanda rwageze ku iterambere kandi ryinshi rinagaragara, aho rusigaye rufite imihanda inyuranamo iyo hasi n'iyo hejuru. Biragaragara ko iki ari ikiraro cy'umuhanda wo hejuru undi uri hasi.

Imodoka mu muhanda nyabagendwa ndetse n'umumotari, hari umuntu uri mu kayira k'abanyamaguru, biragaragara ko hari n'indi modoka iri guturuka imbere, igiye kubisikana nabo.

Amasangano y'umuhanda, hari ipoto rifite itara ryo ku muhanda, abamotari batambuka ndetse n'ibiti bizana amahumbezi n'akayaga, imodoka iri gutunguka.

Mu muhanda nyabagendwa umugenzi arimo arambuka n'ubwo mbona ibimenyetso byo mu muhanda bitari byerekana niba ari umugenzi wambuka, gusa umumotari nawe arimo yamuhaye inzira.

Igihe ugiye kwambuka umuhanda biba byiza iyo ubanje ukareba hepfo ukareba haruguru niba nta kinyabiziga cyaje maze ukambuka wihuta nk'uko duhora tubigirwaho inama.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.